Umwarimu uri kwigisha abantu bakuru; mu bigaragara ufite microphone hakurya irambitse ku meza, amazi, intebe, ikibaho cyo kwigishirizaho; ari mu nzu yambaye uturineti, agashati k'amaboko magufi, isaha, afite n'agasatsi keza.

Abantu b'abagabo batandukanye, abambaye ingofero, abambaye imipira, amashati, bari mu rutoki mu nsinga zifite amakoma, imitumba, intebe n'ameza imbere ya bo.

Umupolisi uri imbere kuri podiyumu uhagaze afite mikorofone ari kubwiriza abantu ibyo bakurikiza, amashuri y'abantu hirya bicaye abandi bahagaze bambaye imipira y'umutuku n'umweru.